Ubwoko bw'indabyo zigira amata, iyo ukuyeho nk'ibabi cyangwa se nk'igitabi, usanga harimo amata mo imbere, ariko zikaba zigira amababi y'umutuku, ndetse n'ibiti by'imituku.

Zimwe mu mbuto zikunzwe n'abatari bakeya, bitewe n'uko zirinda indwara, kandi zikazikiza, binyuze mu mutobe wazo, ndetse n'uburyohe, zikaba iyo zeze ziba ziri mu mabara y'icyatsi, kandi zitukuye, zifite n'umutobe uryohereye.